Abagabo babiri bari mu nama, umwe yambaye ikoti rya kositimu rijya gusa ubururu n'ishati y'umweru, nta musatsi afite, imbere hari uducupa tw'amazi yo kunywa, undi yambaye ishati y'umweru, afite umusatsi mukeya, aba bagabo bombi barirabura, inyuma yabo hari icyapa cy'ikigo kigenzura gishinzwe ibara n'ibarurishamibare.

Umupapa udafite umusatsi n'abandi bantu bari mu nama birabura, yambaye ikoti ry'ubururu hari indangururamajwi, uducupa tw'amazi, mudasobwa n'umumama ufite ibisuko wambaye amarineti, wambaye akenda gaciye amaboko, n'abandi inyuma harimo abamama n'abapapa bari mu nama bicaye ku ntebe z'imikara.

Inyubako irimo abantu bari mu nama, harimo ibendera ry'u Rwanda cyangwa se inyubako itakishijwe ibitambaro by'ibendera ry'u Rwanda, hari intebe zisanzwe zo kwicaraho z'imbaho hicaye abantu ndetse hari umugabo uhagaze imbere uri kuganiriza abari mu nama.

Ndabona umugabo wirabura wicaye ku ntebe y'umukara wambaye ishati iciye amaboko ufite mudasobwa n'idangururamajwi, uri kuvugira ku ndangurumajwi. Ndabona ikayi cyangwa se igitabo imbere ye, yicaye ku meza, yambaye ishati y'ubururu irimo utudomo tw'umweru, inyuma ye hari icyapa cy'ubururu.

Abantu bicaye bari kuganira bicaye mu mahema ndetse atakishijwe ibitambaro by'ibendera ry'u Rwanda, harimo abamama ndetse n'abapapa, hari imeza iriho igitambaro kiriho ibitambaro by'ibendera ry'u Rwanda, hari umumama uhagaze ufite indangururamajwi uri kuvuga.

Umugabo w'umwirabura wambaye amarinete, wambaye kositime, amazi, inyuma hicaye umugabo w'umuzungu wambaye kositime, ndabona umuryango, abantu bari mu nama, uducupa tw'amazi, umugabo wambaye karuvati, ikoti ry'umukara, akadarapo kari ku ikote rye, afite ikaramu, yambaye

Abagabo batari bake, bahagaze ndetse birabura, harimo abambaye imyenda y'abayisilamu ndetse n'abandi bambaye amakositimu, harimo abambaye ingofero z'abasilamu ndetse harimo abafite ibitabo mu ntoke. Aba bagabo inyuma yabo hari inyubako ndende bahagaze kuri esikariye.

Ndabona umupolisi w'u Rwanda, Polisi y'u Rwanda, abaturage bari kwamagana SIDA bafite, icyapa cya RBC , ikigo gikuru cy'ubuvuzi, ndabona amashuri, abamama, abasore urubyiruko...

Abantu bahagaze birabura harimo abakobwa n'abahungu cyangwa se abagabo n'abagore igikapu igikombe intebe bambaye udupfukamunwa ndabona ikayi n'ikaramu n'icyapa inyuma yaho amarido...

Aha abagabo batanu bicaye harimo uwambaye ikoti ry'umukara cyangwa se ijya gusa ubururu. Muri aba bagabo batatu harimo umwe w uruhu rwera abandi n'abirabura ndetse u w'uruhu rwera yambaye ikoti rya kositimu.

Umugabo w'igikara w'umwirabura wambaye amarinete wambaye ingofero y'ubururu iriho ikirangantego, yambaye agapira gasa nk'ingofero afite terefone mu intoki abantu bari inyuma ye bambaye babiri bambaye icyatsi abandi.

Inzu cyangwa se icyumba kiri kuberamo inama, harimo abantu bagiye batandukanye abagore ndetse n'abagabo birabura, hari ubucupa bw'amazi cyangwa se amaji bitewe na buri wese ibyo ashaka, ni inzu cyangwa se icyumba kiriho irangi ry'umuhondo ndetse harimo na prafo bicaye ku ntebe z'imikara ndetse hari na mudasobwa imwe...

Abantu bari mu nama, harimo abakobwa cyangwa se abakobwa n'abagabo cyangwa abagore n'abagabo, bamwe bambaye imipira y'ubururu ndetse yandikishijweho amagambo y'umweru, harimo umumama witeze igitambaro cyo mu umutwe, hari umugabo uhagaze ufite indangururamajwi wambaye ishati y'umweru.

Umugabo uhagaze wirabura n'abandi bagabo birarabura bicaye wambaye amarineti, ishati, umukandara w'umukara, intebe umuryango, agacupa k'amazi, impapuro n'amakayi, urukuta n'igishushanyo inyuma n'icyapa cy'ubururu n'umweru.

Amagambo yandikishijwe umuhondo, umubare wandikishijwe umuhondo gatatu, ndabona ubururu, icyapa kiri, itangazo rishishikariza abantu kwishyura umusoro, inzu , ibiti, mu magambo yandikishijwe umweru n'amagambo yandikishijwe ubururu...

Abasore b'urubyiruko bari kuri za mudasobwa, bambaye ibibarinda urusaku mu matwi cyangwa se bambaye ibintu mu matwi, harimo abambaye ingofero, hari uwambaye ingofero y'umweru ni benshi bari kwiga ibintu bijyanye na mudasobwa.

Icyapa cyerekana serivisi rigiye zitandukanye harimo irembo cyangwa se ibijyanye no kwifotoza, amafoto runaka yo gushyira ku byangombwa ndetse n'uburyo wakwishyura imisoro. Hari icyapa cyerekana aho ariho, hari igipangu cy'icyatsi ndetse hari n'inzu.

Umumama uri kugenda azamuka, wambaye ikanzu y'igitenge ndetse ufite igikapu, ku ruhande cyangwa se inyuma ye, hari umusore wambaye isarubeti y'ubururu uri kureba muri telefone, hari abamotari bagiye batandukanye batatu, umwe afite umugenzi babiri nta mugenzi ndetse hari imodoka ziparitse aho ngaho.

Umuntu uri hejuru ku ipoto y'amashanyarazi ahagaze kurwego yambaye ingofero ndetse n'imyenda igaragaza abakozi bakora ibijyanye n'umuriro afite umukandara yiziritse uziritse ku rwego rwo kumurinda.

Imitaka ibiri y'ikigo gishinzwe gucuruza cyangwa se ibijyanye n'itumanaho no gutanga serivisi z'ama uite zigiye zitandukanye hihariye umugabo wambaye salbetti na bote uhagaze uri mu butaka n'abandi bicaye hirya yahowo hari umugabo wambaye ishati ya makarokaro uri gutambuka n'undi uri inyuma ye wambaye ingofero.

Umuhanda uzamuka n'undi umanuka, imihanda ibiri iteganye hari abamotari ndetse n'ibinyabiziga n'abantu bari kugenda n'amaguru bari kwambuka umuhanda, imbere hari imodoka y'umweru itwara abagenzi ndetse imbere hari urucicikane rw'abantu benshi abagenzi bahagaze.

Ndabona ipoto y'umuriro, ndabona ibiti, ndabona umusozi, ndabona umuhanda, ndabona utuborodire tw'umuhanda, ndabona ubusitani bw'umuhanda.

Umu mama uri kugenda mu muhanda, imbere ye hari igiti, iruhande rwe hari ipoto y'amashanyarazi, ndetse aho hantu hari ibiti byinshi bigiye bitandukanye, hari uruzitiro rw'amatafari, ndetse umu mama yambaye igitambaro mu mutwe, ndetse imbere ye hari undi mugenzi uri gutambuka agenda.

Imbangukiragutabara y'ibitaro bya shike. Iyi ni imodoka ifasha cyangwa se yifashishwa mu gutwara abarwayi ibakura ku bitaro bimwe ibajyana ku bindi igihe serivisi z'ingenzi bakeneye zitari kuri ibyo bitaro cyangwa se igihe habaye impanuka ikabasha kubageza kwa muganga cyangwa igihe umuntu yarembeye mu rugo.

Ndabona umuhanda, imodoka, inzu, ibiti, ikirere, icyapa, umuhanda urimo uturango tw'umweru, inzu hakurya iriya, amatara.

Ndabona abaturage bicaye, abamama, abadamu, bahagaze bashaka serivisi, ndakeka ni kwa muganga bagiye kwivuza, ndabona intebe, ibikapu,...

Abacamanza cyangwa se abakora serivisi zijyanye no kuburanisha abantu barimo barahira, inyuma yabo hari amadarapo cyangwa se amabendera y'igihugu cy'u Rwanda, bambaye imikara harimo umweru ndetse bari kurahizwa n'uwambaye umutuku n'ingofero y'umukara.

Abagabo babiri birabura bari gusuhuzanya, umwe yambaye ishati y'umweru ndetse aba bagabo babiri bose nta musatsi bafite, undi yambaye isaha iruhande rwabo cyangwa se imbere yabo hari inyubako.

Ndabona umugabo uhagaze wambaye umwenda w'umutuku n'umweru yambaye ishati hagati wirabura udafite umusatsi.

Abacamanza babiri b'abirabura, bambaye amakanzu y'imikara arimo imyeru, ndabona umugozi wa mudasobwa, mudasobwa, mikoro, impapuro, ikaramu, amarinete.

Umugabo urimo ufungura amazi, hari itiyo ubona ko yashizeho akaboko, ari gufungura amazi cyangwa se yashyizeho akaboko ku matiyo araho kutiyo iriraho ngaho, umugabo wambaye imyenda ijya kuba ubururu ndetse irimo icyatsi ubona ko akorera ahantu.

Iki gikoresho cyifashishwa mu kuzimya umuriro haba harimo puderi ndetse ni igikoresho kiba mu icupa ry'umutuku hejuru, ni ubururu aho ufungurira ndetse kikagira umugozi cangwa se itiyo y'umutuku. Ndetse hari kikaba kimanitse ku kibambazi, hari ibindi byuma hirya yacyo.

Ndabona ifoto y'umupolisi, ndabona umupolisi uhagaze, ibiti, uruzitiro, umuhanda, umugabo uri gutambuka wambaye ipantaro y'ubururu, n'ingofero, ndabona amatara, ndabona umuyoboro w'amazi.

Ibikoresho bikoreshwa mu kuzimya umuriro ni bibiri, kimwe gifashe ku kibambazi, ikindi giteretse hasi, ni umutuku, bifite amatiyo y'imikara.

Ndabona umupolisi mu muhanda ushinzwe ibijyanye n'umuhanda, ndabona uri guhagarika abantu, ndabona abamotari imodoka zihagaze, ibiti n'abagabo bacunga irondo bahagaze ku ruhande.

Umupolisi uri gukoresha ikizami cyo gutwara ibinyabiziga, hari undi mupolisi uhagaze hamwe n'imodoka yitegura guhaguruka, irimo uwitegura gukora ikizami, hari indi modoka y'umweru iyegereye n'izindi ziparitse ku ruhande hirya, ikibuga gikorerwaho ibizamini cyangwa se kigirwaho imodoka.

Imodoka ya Polisi ishinzwe serivisi zijyanye n'ubutabazi cyangwa se no kuzimya umuriro, iyo modoka ifasha abantu cyangwa se yifashishwa mu gihe habayeho inkongi y'umuriro, yarangiza ikaza ibirimo ibintu bigiye bitandukanye byifashishwa mu kuzimya umuriro bakayizana ikifashishwa mu kuzimya umuriro.

Igikoresho cyifashishwa mu kuzimya umuriro, haba harimo puderi ndetse gifite amatiyo abiri, itiyo y'ubururu n'itiyo y'umutuku, iki gikoresho ubwacyo kiri mu ibara ry'umweru n'umutuku ririmo n'ubururu, hejuru ni ahameze nk'aho ufungura noneho ya poderi igasohoka ikajya mu muriro ukazima.

Umumama wirabura wambaye umukufi, amarinete, wambaye hejuru umweru, akenda karimo uturabyo, ufite umusatsi wumukara wicaye ku ntebe y'umweru.

Ndabona Minisitiri uri guseka wambaye w'umumama, wambaye amarineti n'agakufe mu ijosi n'umutako, wambaye isaha n'undi mumama ufite imisatsi myinshi y'umukara, n'umupapa wambaye ikoti ry'ubururu uri guseka bahagaze, bose barirabura.

Iki ni icyumba cyangwa se ahantu hari kubera inama harimo abantu bagiye batandukanye ubona ko ari benshi b'ingeri zose. Hari abamama cyangwa se abakobwa harimo n'abagabo ubona ko hari abari kwandika ndetse harimo n'umukozi w'ikigo kijyanye cyangwa se icya RIB kijyanye n'iperereza.

Umumama wicaye mu biro, ndabona umumama wicaye mu biro wambaye umweru hejuru, w'umwirabura, ufite imisatsi yimikara, wambaye agakufi, ndabona akadarapo k'ubururu, umukara, numutuku, ndabona ibitabo kumeza, amakayi, impapuro, yicaye ku ndabona intebe, igikuta cy'umweru.

Urupapuro baguha igihe ugiye gutora umukuru w'igihugu hari abantu batatu biyamamaje harimo nyakubahwa perezida Paul Kagame ndetse Mpayimana Philippe na Habineza Frank ndetse n'amashyaka yabo uru rupapuro baguha ugiye gutora ukavivura ku wo ushaka warangiza ariko gutora umwe ukarutanga.

Perezida nyakubahwa Paul Kagame ari kwiyamamaza, hari abantu benshi bafite amadarapo ya FPR ndetse hari n'abambaye ingofero, perezida arahagaze yambaye umupira w'umukara uriho ikirangantego cya FPR ndetse yambaye amarineti azamuye akaboko.

Abantu bafite ifoto iriho umukandida Mpayimana Philippe, uri wiyamamarije kuba Perezida harimo abadamu ndetse n'abahungu, cyangwa se abagabo bafite amafoto y'uwo mukandida.

Ndabona abantu bagiye kwamamaza ndabona amadarapo ya FPR y'ishyaka rya FPR, ndabona abantu bambaye imyeru n'imituku n'ubururu ndabona abambaye ingofero z'imyeru ni benshi cyane.

Ndabona abayobozi bari mu nama, idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda n'idarapo ry'umweru ririho ikirangantego cy'u Rwanda, ndabona indangururamajwi, bose barirabura bicaye ku ntebe z'imikara, ndabona mudasobwa, uducupa tw'amazi, akabati, utubati na kamera y'umunyamakuru.

Umugabo wirabura ufite umusatsi, yambaye ikoti ry'umukara ,ndetse n'ishati y'umweru mo hagati.

Ndabona imodoka, ndabona ibiti, umuhanda, imodoka y'umweru yanditseho tagisi y'umuhondo, ndabona indi y'umukara inyuma, uturongo tw'umweru, ndabona n'ahantu abanyamaguru bagendera.

Imodoka itwikiriye inyuma ni imodoka y'umweru imodoka yandikishijweho amagambo y'ubururu ndetse isize irangi ry'umweru, kuruhande rwayo hari umugabo wambaye isarubeti 'umugabo wikoreye umufuka w'ibiro ijana w'umweru.

Ndabona imodoka ndende itwara imizigo, umumotari, ndabona ibiti n'umuhanda, ndabona n'umuyoboro unyurwamo n'amazi, imodoka ijya gusa umweru irimo n'umutuku ifite amapine y'umukara.

Akamoto cyangwa se moto y'amaguru atatu itwikiriye hejuru irimo abantu babiri bari imbere ndetse inyuma hari ibindi binyabiziga, hari na moto iri inyuma yayo ndetse hari indi moto iri ku ruhande igenda mu ruhande rw'iburyo. Hari umugabo cyangwa se umusore uhagaze wambaye ipantaro y'umutuku.

Itara, umumotari, moto, ibiti, umuhanda, aho abanyamaguru bambukira, amadirishya, inyubako ndende, n'aho abanyamaguru bagendera.

Imodoka ndende itwara ibijyanye n'imizigo itwikije ihema ry'icyatsi, imbere yayo hari umumama uyegamyeho ndetse n'imifuka ihari, hari n'umugabo uyegamyeho.

Umuhanda umanuka harimo imodoka ndetse hari umumotari uri kuwumanukamo, ubona ko ni umuhanda ariko ufite undi uwushamikiyeho, hari undi mumotari uhagaze ndetse ari kureba hepfo aho uwo mumotari wundi ari kumanuka.

Ahaparikwa imodoka zigiye zitandukanye zifashishwa mu gutwara abagenzi rusangene imodoka ndende ziri mu mabara y'ubururu ndetse n'umukara izo modoka zifasha mu gutwara abagenzi zibakura ahantu hamwe zibajyana ahandi ndetse ni imodoka rusange.

Umuhanda, hari abamotari benshi baparitse, imbere hari icyicaro cya MTN serivisi icuruza ibijyanye n'amayinite na serivisi zijyanye n'ikoranabuhanga cyangwa se kohereza, hari umuhungu uri kugenda mu muhanda wambaye imyenda y'imikara, hari umumama.

Ndabona imodoka y'umweru, amatara, umuntu uhagaze hamwe n'imodoka, wambaye ijire irimo icyatsi, ndabona umuhanda aho abanyamaguru bagendera n'abantu bari kugenda mu muhanda

Ndabona imodoka itwara imizigo itwikiriye, nkabona umuyoboro w'amazi unyuramo amazi, umuhanda, ibiti, imodoka y'umweru itwikirijwe ihema.

Ndabona akamoto gatwara imizigo kariho ihema ry'ubururu, k'ubururu, karimo abantu babiri, ndabona umuhanda umuyoboro unyuramo amazi, ndabona ibiti, ndabona abagabo babiri bari gutambuka umwe yambaye inkweto z'umukara, ndabona ipoto.

Ndabona imodoka itwikiriye inyuma, ndabona umugabo wambaye ingofero wambaye ikabutura n'inkweto zifunguye, ndabona umuyoboro w'amazi, abamotari batwaye abagenzi, n'abandi bagabo babiri bari kugenda ku ruhande rw'iburyo, ndabona ibiti n'umuhanda.

Imodoka itwara ibicuruzwa cyangwa se yikorera, imodoka y'umukara ndetse n'umweru irimo n'amabara ajya kuba umutuku, imodoka itwara ibicanwa cyagwa se ibyifashishwa mu ngo kugira ngo bateke.

Ni ahantu abantu bicara hari udusima twubatswe n'udutebe inyuma ku kibambasi, ni ahantu hasakaye hifashishwa mu kwicara mu gihe abantu bari kureba ibikorwa runaka bigiye bitandukanye harimo nk'umupira cyangwa se baricaye baganira.

Ahantu harimo ikibuga kiberamo umukino w'intoki ndetse hari ubusitani, hari moto ihaparitse ndetse hari indi modoka iparitse aho ngaho, hari ibiti ndetse hari amatara ubona ko hisanzuye.

Umugore ufite umusatsi muremure wambaye imyenda y'umutuku, vharimo n'umukara n'umweru n'ijipo ngufiya, ufite igikapu gikunzwe gukoreshwa n'abantu bakunze kujya mu mahanga akaba ahagaze hafi y'ibyapa bigiye bitandukanye ndetse n'inyuma yaho hakaba hari iminara y'amashanyarazi.

Iki ni igikoresho cyifashishwa mu muhanda kugira ngo kibashe kuyobora ibinyabiziga ndetse gifashe n'abanyamaguru bakeneye kwambuka umuhanda. Iki cyapa iyo hashushanyije umuntu hagezweho, umuntu abasha kwambuka kuko cyerekana niba umuntu yambuka cyangwa se ibinyabiziga bikomeza.

Icyapa cya mpandeshatu kiri mu ibara ry'umutuku umuhondo n'umukara, kigaragaza ko cyangwa se cyerekana ko hari umurongo hari umuhanda ukomeza n'umuhanda ukata iburyo.

Ndabona abantu bategereje imodoka, ku cyapa, aho imodoka zihagarara, imodoka zitwara abagenzi ndende, ndabona ubucaca, ndabona inzu ndende, inyubako ndende, ibiti, n'amapoto y'umuriro...

Icyapa cya mpande enye cy'icyatsi ndetse n'umweru, cyandikishijweho n'amagambo ari mu mweru, ni y'icyapa cyerekana ko umuhanda ushobora kugendwamo mu merekezo ane, hari amerekezo ajya Kagarama, i Nyamata ndetse no mu mujyi wa Kigali.

Inyubako ndendel igeretse gatatu ndetse nini mu bugari ikorerwamo ibikoresho, ikorerwamo ubucuruzi bugiye butandukanye harimo banki ya ekwiti n'ibindi na kopedu. Hanze hari imodoka ziparitse harimo n'imodoka nini itwara cyangwa se yikorera.

Umuhanda abantu bari kwambuka umuhanda, igare riri inyuma y'imodoka y'umukara ,ryicayeho umuntu ndetse umukobwa uri kugenda ufite igikapu mu ntoki ,wambaye ipantaro y'umweru n'inkweto z'umweru. Imbere ye hari umuhungu uhagaze wambaye ishati ,ndetse n'ibindi binyabiziga n'imodoka biparitse.

Ndabona igiti, imodoka, umuhungu uri kugenda wambaye ikabutura, amasogisi n'inkweto zifunze, ufite igikapu. Ndabona amatara, amapoto, aho kujugunya imyanda ibora cyangwa se itabobura, ndabona inyubako ndende n'umuhanda.

Ndabona inyubako igeretse rimwe ikorerwamo ubucuruzi yaparitse imodoka hanze, imodoka eshatu, ndabona umuntu wambaye umupira ujya kuba umutuku, nabona ibiti, umuhanda.

Igiti, inyubako isize irangi ry'umweru ifite urupangu rw'umukara, ifite amabati ajya kuba umukara ndetse inyubako yose iteye irangi ry'umweru.

umuhanda ndetse hari inzu ifite igipangu cy'umukara. Ndetse iyo nzu ikaba isize amarangi y'umweru. Iruhande rw'iyo nzu hari umumotari uri gutambuka udafite umugenzizi. Ndetse aho hari ibiti byinshi bigiye bitandukanye.

Inyubako ndende iri kubakwa itararangira igeretse, hari ibiti n'inyubako y'umweru ifite uruzitiro rw'umweru, irimo ibigega bibiri hagati mu muhanda .Inyubako ifite amabati y'umutuku ndetse n'umusozi uri hirya iriya.

Umuhanda urimo umumotari utwaye moto ikoreshwa n'amashanyarazi inyuma ye hari inyubako ndende igeretse ndetse n'undi mumotari umanuka. Hari abantu batatu bari kumanuka mu ruhande rw'iburyo ndetse hari imodoka ngufiya itwara abagenzi y'umweru irimo umugo.

Ndabona abamotari baparitse inyubako ndende igeretse ikorerwamo munsi, ibikorwa bigiye bitandukanye, hari amaduka harimo amagaze, abamotari baparitse, ndabona umuntu usa nk'uwera uri kwambuka, abana bambaye iniforume bavuye ku ishuri, ndabona igare n'imodoka.

Ndabona igare riparitse, umuhanda, abamotari, abatwaye abagenzi, hari umwe uparitse uhagaze ku cyapa aho abagenzi bategerereza imodoka bicaye, aho bicara hatwikiriye, ndabona aparitse ku cyapa aho imodoka zihagarara, ndabona ibiti, ndabona ibiti.

Umuhanda umanuka hejuru hari agasozi cyangwa se hari uri hejuru n'undi uri munsi biteganye, ni umuhanda urimo imirongo icagaguye hepfo y'aho abagenzi bambukira, ndetse hari abamotari cyangwa se moto ebyiri, moto imwe y'umugabo wambaye kasike y'umweru imanuka igeze kumirongo.

Mu muhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hari ibikora imirimo y'ubwikorezi cyangwa se bitwara byikorera, hari n'imodoka y'umukara igendwamo n'umuntu ku giti cye, hari imirongo icagaguyemo yambukiramo abanyamaguru.

Ndabona isangano ry'umuhanda inyubako ndende ibyapa cyerekana umuhanda uriho kuko umuhanda uriho ibiti, n'ibindi byapa bine iby'imyeru bibiri n'ibyubururu n'imyeru bibiri.

Ndabona imodoka y'umweru n'indi modoka hirya yayo y'umukara, umugabo uri ku gare yambaye agapira k'umutuku, ndabona umuhanda, ndabona ibiti, ndabona na camera.

Umuhanda uzamuka iruhande rw'iburyo ndetse n'undi muhanda w'ibinyabiziga bimanuka mu ruhande rw'ibumoso, harimo imirongo icagaguye ndetse n'umwanya uteganyirijwe cg se werekana aho ibinyabiziga bigomba guhagarara.

Ndabona umuhanda mugari, ibiti ku ruhande rw'umuhanda aho abanyamaguru bagendera, amapoto y'umuriro, abamori abamotari bari bamotari baza imbere.

Mumuhanda harimo imodoka nini y'umutuku ihagaze, aho imodoka zihagarara cyangwase ziparika, inyuma yayo hari icyapa kiri hasi, cya mpande eshatu, umutuku n'umweru cyerekana ko ikinyabiziga cyagize ikibazo m'umuhanda harimo ibindi binyabiziga, amamoto ndetse n'indimodoka ngufiya y'umukara.